Abanyabuzima bari gupima abana, abanyabuzima bambaye itaburiya y'ubururu, hari ababyeyi bateruye abana, hari umunzani umanitse uri gupima abana ibiro, hari umubyeyi wambaye ibitenge kandi ateruye umwana mu ntoki wambaye umupira w'ubururu.

Inzu nziza yubakishije amatafari y'impunyu ifite amabati y'ubururu kuri iyo nzu hateye irangi ry'umuhondo kuri iryo ragi handitseho amagambo ngo inzu y'ababyeyi akarongo materinite munsi y'iyo nzu ku rubaraza hari abantu benshi bamwe barahagaze abandi baricaye.

Abagabo batanu n'umugore umwe, bose bambaye amashati y'imyeru n'amapantaro y'umukara, ndetse umugabo umwe muri bo yambaye ipantaro bururu. Bacigatiye udupaniye mu ntoki, turimo ibintu bitwikirije ibara ry'umweru. Bari imbere y'ibitaro byitiriwe Umwami Faisal.

Icyumba cy'imyidagaduro kirimo tapi y'ubururu, harimo umukobwa wambaye supuresi n'agakariso k'ubururu ndetse n'agasengeri k'icyatsi kibisi, afite imisatsi myinshi ku mutwe, afashe ku byuma bibiri bigaragara ko arimo arakora siporo.